Gukora imyitozo ngororamubiri ni myiza gusa iyo ugize ikibazo mu magufa cyangwa mu misokoro baragufasha ukongera ukamererwa neza, ugasubira mu kibuga ugakina umupira.